Iri ni ihahiro cyangwa isoko uyu mucuruzi yambaye ingofero ifite ibara ry'umweru n'isengeri ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari akajerekani gafite ibara ry'umuhondo n'umupfundikizo w'umutuku.

Izi ni inkweto zambarwa n'igitsina gore cyangwa igitsina gabo, zikaba ari inkweto nziza cyane buri wese yakwishimira kwambara mu mugihe cy'ubukonje, zikaba ari: iz'umuhondo, umutuku, umweru n'umukara.

Aba ni abantu b'igitsina gabo bahagaze imbere y'imodoka, hari umugabo ufashe agakapu mu ntoki ze gafite ibara ritukura rivanze n'ibara ry'umweru, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Uyu ni numugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'iroze, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ifite ibara ry'iroze, afashe ku modoka ifite amapine y'umukara.

Aya ni amafaranga makumyabiri, aya ni amafaranga wakwifashisha mu gihe ugiye kugura cyangwa ugiye kwishyura ibintu bitandukanye wafashe ku mucuruzi ucuruza.

Iki ni icyuma bifashisha babikuza amafaranga, bikaba byagufasha kubona amafaranga mu buryo bwizewe kandi byihuse utiriwe ujya kuyashakira ku mabanki atandukanye.

Iyi ni inzu bacururizamo amata yin'inyange , ku rugi hariho igishushanyo cy'umwana ufite amata mu ntoki wambaye umupira w'umweru, kurugi hariho ibara ry'ubururu, hariho ibara ry'umweru n'ibara ry'icyatsi.

Aya ni amafaranga yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aya ni amafaranga ushobora kwifashisha mu gihe wagiye gusura Igihugu cya Tanzania, waba wishyura cyangwa wishyura ibigendanye n'ibyo bagukoreye.

Aya ni amacumbi abantu batandukanye bararamo, aya macumbi harimo ubwiherero bufite ibara ry'umweru, akaba ari amacumbi meza wararamo mu gihe udafite aho kurara kandi ubona bukwiriyeho.

Iki ni kimwe mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubwisungane mu kwivuza hahagazemo ababyeyi batatu b'ibitsina gabo, harimo uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'undi wambaye ishati y'umweru.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi zigendanye n'ubwishingizi ku gikuta cy'iyi nzu habonetseho ifoto iriho abantu batandukanye harimo ameza, harimo intebe harimo n'ibipapuro bifite ibara ry'umweru.

Aba ni abagabo babiri bicaye mu biro, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza, ku ruhande hari mudasobwa, hari icupa ry'amazi, hari n'ururabyo mu imbere mu biro.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi zijyanye n'ubwishingizi, ubwishingizi ni bwiza cyane kuko bugufasha mu gihe wahuye n'ibibazo bya hato na hato bikeneye ko wakoresha ubwishingizi ntabwokicwa n'indwara ufite ubwishingizi cyangwa ubwisungane mu kwivuza.

Uyu ni umuhanda, aba ni abagenzi, harimo uwambaye umupira ufite ibara ry'iroza, wambaye ijipo ifite ibara ry'umukara, iriya ni imodoka ifite ibara ry'umweru n'umutuku.

Iri ni isoko ricururizwamo ibijyanye n'imboga, amashu, inyanya, voka, karoti, uwo ni umubyeyi wambaye imyenda idoze mu bitenge, yitwikiriye umutaka, indobo.

Iri ni isoko ushobora kuba wabonaho amata meza n'ibindi bicuruzwa byose bituruka muri mukamira, ibi bicuruzwa byabo byakugeraho ku buryo bwiza kandi bitakugoye mu mu gihe ubikeneye.

Iri ni isoko rusange, uwo ni umuzungu waje guhaha wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, inkweto z'umukara, umufuka w'umweru mu ntoki, abo ni ababyeyi bicaye bakenyeye ibitenge bambaye inkweto z'umukara.

Iri ni isoko rusange hagati mu muhanda hari umucuruzi wikoreye imineke yambaye umupira w'umutuku hariho n'ibara rindi ry'umweru, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara, ku ruhande rwe hari umubyeyi w'igitsina gore na we wikoreye ikarito ifite ibara rya kaki.

Iyi ni serivise y'ikoranabuhanga yitwa vuba vuba, iyi ni serivisi abaguzi bifashisha batumiza ibintu mu masoko, iyi ni serivise nziza kandi yizewe inogeye buri muturage wese.

Iyi ni inzu iherereye kibagabaga mu mujyi wa Kigali ikaba ari inzu iri ku isoko kandi ikaba iri gukodeshwa. Ifite ibyumba bibiri ni inzu nziza kandi isa neza cyane.

Iyi ni inzu nziza cyane ndende igeretse rimwe imbere yayo ifite ibirahure by'mweru isize amabara y'mweru n'umukara imbere yayo hari indabyo z'icyatsi.

Iri ni isoko rusange rihagazemo abaguzi batandukanye, barimo uwambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, hari n'undi wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye n'inkweto z'umweru.

Uyu ni umuntu ufashe mu ntoki ze ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi ikarita ntarembera mu rugo, ufite iyi karita ntabwo yakicwa n'indwara, ufite iyi karita aba afite byose.

Iyi ni ifoto iriho umwana wambaye agapira karimo uturongogo dutambitse turi mu ibara ry'umweru, n'ibara ry'ubururu bwerurutse, handitseho amagambo avuga ngo zigamira amasaziro yawe ukiri muto, handitsweho na ejo heza.